Hahuriwe n'ingeri zose harimo abanyamahanga ndetse n'abirabura, bari mu nzu nini mberabyombi, ku meza hateretse amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange, agatunganywa neza.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, bicaye mu ihema riri mu ibara ry'umweru, umuyobozi w'inama afite icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu mbwirwaruhame cy'indangururamajwi.

Inama yitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye ku meza hateretse amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange, agafungwa neza mu macupa yabugenewe ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'indangururamajwi.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zose, harimo abagore ndetse n'abagabo, ku meza hari igikoresho cya mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange, agashyirwa mu macupa yabugenewe.

Inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, ku meza hateretseho amacupa y'amazi, akorwa kandi agatunganywa n'uruganda rw'Inyange, agashyirwa mu macupa yabugenewe ndetse bafite n'amakayi n'amakaramu.

Yitabiriwe n'abagore, ku meza yabo hakaba hateretse amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange ndetse bakaba bafite amakaramu n'amakaye yo kwandikamo ibyavugiwe muri iyo nama.

Bitewe n'abantu batandukanye, hari ibitangazamakuru n'ibyuma by'ikoranabuhanga, byiganjemo ibikurura amajwi ndetse n'amashusho, bakaba bafite mu ntoki amakayi n'amakaramu, yo kwandikamo ibyavugiwe muri iyo nama.

Yitabiriwe n'abari ndetse n'abategarugori, imbere hari umukobwa ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame, ndetse hakaba hateretse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, harimo abirabura n'abazungu, ku meza hateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange.

witabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara. Ndetse imbere ku meza yabo, hakaba hari ibitabo bandikamo n'amakaramu bandikisha, n'utwuma twifashishwa mu ndangururamajwi.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo ku meza harimo amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange ndetse na za mudasobwa bari kwandikamo ibivugiwe mu nama.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ufite igikoresho cy'indangururamajwi kifashishwa mu mbwirwaruhame gikoresha ikoranabuhanga, akaba kandi afite icupa ry'amazi rikorwa n'uruganda rw'inyange.

Inama yitabiriwe n'ingeri zose, zigiye zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere hari icyuma k'ikoranabuhanga, kifashishwa mu gusakaza amajwi ndetse n'amashusho, uri kuyobo inama, afite icyuma k'indangururamajwi mu ntoki.

Yitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ku meza hateguye indabo z'icyatsi kibisi, imbere iyobowe n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku ufite icyuma cy'indangururamajwi, cyifashishwa mu mbwirwaruhame.

Inzu yahuriwemo n'abantu bagiye batandukanye b'urubyiruko, imbere hari umukobwa uyoboye iyo nama, akaba afite igikoresho cy'indangururamajwi mu ntoki, cyifashishwa mu mbwirwaruhame.

Abagabo bitabiriye inama bahagarariye abandi bambaye amashati y'umweru bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo bafite utwuma tw'indangururamajwi twifashishwa mu mbwirwaruhame.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, bafite utwuma tw'indangururamajwi imbere yabo ndetse na mudasobwa ku meza.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, umuyobozi w'inama afite icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gusakaza amajwi mu mbwirwaruhame y'abantu benshi ndetse bakaba bafite n'amacupa y'amazi ku meza.

Inama yitabiriwe n'abagore ndetse n'abagabo, ku meza hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga bya mudasobwa, byifashishwa mu kwandikwamo ibyavugiwe muri iyo nama.

Urubyiruko rurimo abakobwa ndetse n'abahungu bari mu nama iri kuganirwaho ku cyateza imbere igihugu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umuhondo ku meza hateretse amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rw'inyange.

Ababyeyi bahawe ihene ndetse bakaba bari mu ihema, inyuma hari idarapo, bari kumwe kandi n'abashinzwe inzego z'umutekano n'abandi bayobozi bagiye batandukanye.

Yitabiriwe n'abirabura ndetse n'abanyamahanga, ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n' uruganda rw'Inyange, agafungwa neza mu buryo buyarinda kwangirika ndetse bwuje isuku.

Abagabo bari mu nama ndetse n'umugore umwe. Bicaye ku meza itereretseho amacupa arimo amazi, atunganywa n'uruganda rw'Inyange, ndetse hakaba hari n'indabo zirimo ibara ry'umweru.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ku meza hari igitambaro kiririmo ibara ry'umukara ndetse hakaba hari na mudasobwa zifashishwa mu kwandika ibyavugiwe mu nama n'amazi ari mu macupa akorwa n'uruganda rw'inyange.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo ku meza hariho utwuma tw'indangururamajwi, twifashishwa mu mbwirwaruhame, ndetse bakaba bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gitanga inyemezabwishyu, gishyirwa ku modoka, ugakozaho ikarita iriho amafaranga, birabujijwe kuyatanga mu ntoki.

Urubuga rw'irembo rukoreshwa n'ikoranabuhanga aho ushobora kuba wasaba icyemezo cyo gutwara ibinyabiziga cyangwa gusaba kujya kubikorera ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyandiko itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda, yerekana ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako uko biteye, uhereye ku ijanisha rya zeru n'ibice bitanu, zeru n'ibice bitatu ndetse na zeru n'igice kimwe ku 'ijana.

Muremure w'ikigo cy'itumanaho n'umuyoboro mugari mu Rwanda usize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino wubatse mu byuma.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma kandi bikomeye, hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bikurura imirasire y'izuba ndetse hakaba hanariho itsinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, imbere hari umuyobozi w'inama, ku meza zabo hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga rya mudasobwa zifashishwa kwandikwamo ibyavugiwe aho ndetse n'uducupa tw'amazi.

Kubera imurikagurishwa hari ihema riri mu ibara ry'umweru ririmo ibicuruzwa biri gucuruzwa ndetse ku mpande hakaba hari amazu maremare y'amagorofa ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Abantu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umutuku, imbere yabo ku meza, hateretse ibikombe biri mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka mudasobwa, na telefone, zifashishwa mu guhamagara, no kwandika ubutumwa bugufi.

Abantu bahagaze bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki bya mudasobwa bambaye udupfukamunwa bakaba bari aho imodoka ziparika inyuma yabo hakaba hari amazu y'amagorofa.

Amatara yo ku muhanda ariho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gace ku mpande hagiye hakikijweho ibidukikije by'inganzamarumbu.

Umunara muremure w'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda wubakishijwe ibyuma bikomeye, hariho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse ku ruhande hari icyapa kiyobora ibinyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino muri ako gace, ndetse ku nkengero hariho ibiti.

Icyuma kirekire cyubatswe mu buryo bukomeye kandi burambye, kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga, imbere yaho hari igorofa.

Inzu z'ubucuruzi bw'ibiribwa bihiye ndetse imbere hari igiti kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga ryiza kandi ryihuta.

Umunara ushinzwe gusakaza amashanyarazi, iwukura mu gace kamwe ujyanayana mu kandi, ukaba urangwa n'ibyuma birebire bifatanye kandi bigiye biriho izindi nsinga nini ndende, zigiye zijya mu bice bitandukanye.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bikomeye, uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga rigezweho kandi ryihuta.

Inyubako z'amagorofa, imbere hari urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo, hakaba hari igiti kirekire, kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi wifashishwa mu koranabuhanga.

Umunara muremure cyane wubakishije ibyuma bikomeye usize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, ukaba uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga.

Igipangu kiri mu ibara ry'umukara, imbere hari inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru n'amabati y'umutuku, imbere hari amatara, inyuma yaho hakaba hari ibidukikije byiganjemo amashyamba n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ibitaro bikuru biherereye mu Mujyi wa Kigali byitiriwe Umwami Faisal, bivurirwamo indembe ndetse n'abandi barwayi batandukanye baturutse impande n'impande z'Isi, hari ubusitani burimo indabo.

Bamaze guhabwa inshingano zo kuyobora, bari kurahirira imbere y'abandi bantu, bafashe ku ibendera ry'igihugu, rigizwe n'amabara atatu, ariryo ubururu, umuhondo, n'icyatsi kibisi.

Igororero rya Huye rifungiwemo abanyabyaha bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye nk'ubwicanyi, ubujura n'ibindi byinshi cyane ndetse hakaba hubakishijwe amabuye akomeye.

Ikirango cy'ubushinjacyaha bukuru, gishushanyijeho inuma, igitabo ndetse n'izuba, bifite igisobanuro gikomeye, mu buryo bwo gushinjwa icyaha no kurenganurwa.

Umugabo wambaye impuzankano z'imfungwa, wakatiwe igihano runaka, gikwiranye n'ibyaha yakoze, akaba kandi yambaye agapfukamunwa, afite n'ibitabo mu ntoki.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Ibicupa byifashishwa mu kwirinda no gukumira inkongi y'umuriro, iri mu ibara ry'umutuku bikaba bishyirwa ahateraniye abantu benshi cyangwa mu ihuriro ry'abantu.

Igikoresho cyitwa kizimyamwoto kiri mu ibara ry'umutuku, gishyirwa ahantu hahurira abantu benshi cyane ndetse na bake mu rwego rwo kwirinda no gukumira inkongi y'umuriro.

Igikoresho gishyirwa ahantu habugenewe hahurirwa n'imbaga nyamwinshi mu rwego rwo kwirinda no gukumira inkongi y'umuriro, kikaba cyifashishwa mu kuzimya.

Igikoresho cya kizimyamwoto cyifashishwa ahabereye inkongi mu kuzimya no gukumira umuriro, kikaba gifite ibara ry'umutuku, kigashyirwa ahantu hahurira imbaga nyamwinshi.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, hahagaze ushinzwe umutekano w'ibigendera mu muhanda byose ndetse ku ruhande hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye.

Umugore uri imbere y'itangazamakuru ufite ibyuma imbere by'ikoranabuhanga byiyifashishwa mu gufata amajwi ndetse n'amashusho by'indangururamajwi bikanakurura amajwi.

Ikirango cy'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, hakaba harimo ibendera ry'igihugu ndetse hakaba rigizwe n'ikarita y'igihugu.

Ishyaka FPR nyakubahwa Paul Kagame ari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, yambaye amadarubindi arimo ibara ry'umukara ndetse n'umupira uriho ikirango cy'ishyaka rye.

Umugabo uyoboye inama wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi ufite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu ndangururamajwi y'imbwirwaruhame, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini cyane cyikorera imizigo, kiri mu ibara ry'umutuku, ku nkengero zawo hari ibiti.

Umuhanda mugari w'umukara unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari gucamo imodoka iririmo ibara ry'umweru, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibidukikije byiganjemo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo akamodoka gatwara abagenzi bake kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ku nkengero hari ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hari gucamo akamodoka gato kifashishwa mu gutwara imizigo, ku nkengero zawo hariho akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu hari gucamo urumodoka runini cyane ruri mu ibara ry'umweru ku nkengero hari ibiti.

Igendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu. Harigucaho ikimodoka kinini kirimo ibara ry'ubururu kizengurutse abantu mu mujyi wa Kigali, ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga binini ndetse n'ibito bitwara abantu benshi n'ibitwara bake, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru, ku nkengero hari ibiti.

Binyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hariyo akayira k'abanyamaguru kandi hari gucamo n'imodoka iri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari ibiti.

Ishyirwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bitwara abantu ndetse n'ibintu, ari gucamo ikimodoka kinini cyane gifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse hakaba n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza, rw'ibinyabiziga, bito ndetse n'ibinini, bitwara abantu n'ibintu, imbere hashushanyije imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka, ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti.

Rikorerwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ku ruhande haparitse amamotari menshi cyane ndetse hirya hakaba hari umunara muremure n'ibiti.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umukara, hejuru y'umuhanda hari ubusitani n'akayira k'abanyamaguru.

Munini unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini kiri mu ibara ry'umweru cyambutsa ibikomoka kuri mazutu.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, inyuma y'amazu hari inzu y'igorofa.

urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ibimodoka binini cyane byikoreye imizigo myinshi hirya gato hari ibiti birebire.

Imihanda inyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bijyiye bitandukanye, bitwara abantu n'ibintu, hari gucamo igare ryikoreye imizigo, ku nkengero y'umuhanda, hariho ibidukikije by'ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo igare ndetse hakaba harimo n'ikimodoka kinini gitwara imizigo myinshi, ku nkengero hari ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini, gitwara imizigo, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'amatara yo ku muhanda.

Icyanya nyaburanga gikinirwamo imikino igiye itandukanye ndetse kigahora kinakorerwamo imyitozo ngororamubiri, hateyemo ibiti byinshi ndetse n'ubusitani bwiganjemo indabo.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa kigakinirwamo umupira w'amaguru, ku mpande hari ibiti byinshi by'ibidukikije ndetse n'utwatsi duto duto bakiniramo.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari icyapa kiriho yuko hatemerewe guhagarara ibinyabiziga, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye, nko mu gihe umuntu ashaka kubarurisha ibintu runaka, imitungo ye se cyangwa ibindi muri Leta ndetse bakaba banafotora impapuro bakazikoramo izindi.

Icyapa cya mpandeshatu cyanditsemo T gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, iki cyapa kikaba gifite amabara atatu, harimo umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, cyerekana ko uwo muhanda uri gukorwa, kiri mu mabara atatu atandukanye, harimo umutuku, umweru, ndetse n'umugabo ushushanyishije ibara ry'umukara.

Icyapa gishyirwa ku nkengero z'umuhanda cyerekana cyangwa kiburira abatwara ibinyabiziga, ko bagomba kugenda bitonze kiri mu ibara ry'umutuku , ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu hirya no hino bibambutsa bibavana ahantu hamwe bibajyana ahandi, hari icyapa cyerekana muri Gicumbi.

Gishyirwa ku nkengero z'umuhanda kerekana cyangwa kiburira kikanategeka ibinyabiziga, kikaba kiri mu mabara atatu agizwe n'umweru ubururu ndetse kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umweru.

Icyapa gishyirwa ku muhanda, cyerekana akayira k'abanyamaguru, gifite amabara y'umutuku umweru, kikaba gishushanyijeho abantu bari mu ibara ry'umukara, ku nkengero kandi hariho ibiti byinshi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'icyapa gifite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, imbere hari itara ryo ku muhanda.

Inzu zihereye mu gace ka Kimironko, zubatswe mu buryo bw'ubucucike cyane, hari insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ndetse hagati y'ayo mazu hagiye yatewemo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye bitwara abantu ndetse n'ibintu hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu ntara hari imodoka zihagaze imbere y'igorofa.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hakaba harimo n'uruhererekane rw'abantu banyuranamo ku nkengero hariho ibidukikije ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, imbere hari igorofa rirerire ndetse n'amamodoka aparitse imbere yaryo.

Mu kajagari hari ikigega gifata amazi mu rwego rwo kwirinda ibura ryayo ndetse n'isuri, hari kandi insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu y'igorofa yubatswe mu buryo bugezweho kandi burambye, bukozwe kinyamwuga, isize amabara meza cyane, harimo umuhondo, umukara ndetse n'umweru, ku gipangu hariho amatara meza cyane.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hashushanyijemo imirongo myinshi cyane iri mu ibara ry'umweru yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga hari uturongo tubiri ducamo kabiri uwo muhanda turi mu ibara ry'umuhondo ndetse hagati hakaba hari ubusitani buteyemo utwatsi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti by'ibidukikije, hakaba hari n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hakurya y'uwo muhanda hariho amatara ashyira ku nkengero ndetse n'ibiti byinshi cyane.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bitwara abantu n'ibintu, hari gucamo amagare ndetse na moto. Ku nkengero z'uwo muhanda hari ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imirongo y'umweru migari yerekana aho abanyamaguru banyura bambuka.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye binini ndetse n'ibito bitwara abantu n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amabuye ndetse n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho ku nkengero hari aganda gato k'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Inzu inyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari gucamo imodoka y'umutuku n'umweru, ku nkengero hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibidukikije byiganjemo ibiti.

Uru ni urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari imirongo minini cyane iri mu ibara ry'umweru ryerekana aho abanyamaguru banyura bambuka, ku nkengero hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo ikimodoka kinini gitwaye imizigo, ku nkengero hari umunara wubakishijwe ibyuma, uriho inshinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ikinyabiziga kigendera ku maguru atatu, kikaba gishinzwe kujyana ibintu mu bice bitandukanye. Kijya kumera nk'ikinyabiziga kigendera ku maguru abiri, kikaba gifite ibirango bigizwe n'amabara y'ubururu, itara imbere ndetse n'umuyobozi wacyo.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibito, bitwara abantu n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hari gucamo moto ihetse umugenzi, ku nkengero z'uwo muhanda hari amatara ndetse n'ibidukikije.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero zawo hariho ibidukikije by'ibiti ndetse n'ubusitani butandukanye.